Kwa muganga hari abantu bahahagaze bari kumurongo, iruhande rwabo hari umugabo uhagaze wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, inyuma y'uwo murongo hariyo umurwayi wicaye ku ntebe yubitse umutwe.

Mu cyumba cyo kwa muganga, muganga yambaye itaburiya y'umweru, abarwayi baryamye ku dutanda twabo ,umwe yambaye ishati y'umweru ,undi yambaye umupira w'ubururu.

Umusirikare umwe wambaye impuzankano ya gisirikare afite agakapu mu ntoki, ari kumwe n'abandi bantu bazanye udukapu. Abanyeshuri bicaye ku mukeka, umwe arahagaze bamuhekesheje agakapu. Impande yabo hari amata y'inyange ari ku ntebe bari bicayeho.

Muganga wambaye itaburiya y'umweru, ufite igitabo cy'ubururu mu ntoki, inyuma ye hari umudamu wambaye imyambaro y'umukara, impande yabo hari abarwayi bicaye bategereje guhabwa serivisi z'ubuvuzi.